Ibiribwa byerera neza ari uko biteye umuti, muri iyo miti batera harimo za detane, bateramo za roketi, batemo n'iyindi miti itandukanye ituma ibihingwa byera neza, kandi bitangaga umusaruro mwinshi.

Mu buhinzi hifashishwa imiti yica udukoko. Harimo nka Roketi iterwa mu bigori, za Detane ziterwa mu birarayi, imyaka yose ikenera imiti yica udukoko.

Imiti iterwa mu myaka ni myiza cyane, kuko yica udukoko turya imyaka, ibamo amafumbire igafumbira imyaka, bayiteraga mu muceri, bayitera mu birayi, bayitera mu bishyimbo, no mu yindi myaka yose.

Ifumbire mvaruganda igiraga akamaro kenshi cyane bazifumbiza ibigori bigashishya, bazifumbiza ibishyimbo byongera umusaruro, bashyira ku kirayi kikera ibirayi byinshi cyane, ifumbie ni nziza.

Bahinga ibirayi babikuramo amafaranga, kuko barabicuruza, barabirya, babigemura mu mahanga, igihingwa cy'ibirayi kivamo ibintu byinshi.

Kugira ngo imyaka ikure neza iterwamo imiti yica udukoko, harimo: za roketi, harimo za kiyoda, n'indi miti myinshi irwanyaho udukoko twangiriza imyaka duhinga.

Inyanya ni igihingwa cyiza cyane, gikora isosi. Gishyirwa mu biryo byose. Ariko kugira ngo cyere neza, bagomba kugitera imiti itandukanye. Bateramo detane, bateramo rodomiri n'izindi miti yica udukoko twangiza imyaka.

Ifumbire mvaruganda zifashishwa mu gufumbira imyaka, bayifumbiza imboga, bazivumbiza ibirayi, zishirwa mu bishyimbo, zishyirwa mu bigori, buri gihingwa cyose kiba gikeneye ifumbire mvaruganga.

Arigutera umuti imboga zitwa mashu, baraziteraga kugira ngo zitazana n'udusimba zigapfa ntizizere neza, amashu n'imboga baraziteraga za kera bakazisarura, bakazijana mu isoko cyangwa bakazijana mu rugo bakaziteka.

Inyama z'amafi zigira akamaro kenshi cyane. Bazitegura mu mahoteri akomeye, bazirya mu mago, zigira intungamubiri nyinshi, zifasha abana bari mu mirire mibi, zifasha n'abagore batwite.

Ubworozi bwo mu mazi bugira akamaro gakomeye. Twavugamo nk'insambaza. Bazigurisha amafaranga, abaziroba na bo babonamo amafaranga, ndetse abazirya na bo zibafasha kugarura ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda, bifasha u Rwanda kwinjiza amafaranga azanwa na ba mukerarugendo, kandi bayakoresha mu bikorwa bitandukanye, bubakamo ibikorwaremezo, bafashamo n'abatishoboye.

Amafi yororerwa mu mazi kandi akagirira akamaro kenshi cyane, barayacuruza, barayarya, bayagurisha mu mahoteri, iyo ageze mu gihe cy'ubukonje cyangwa se igihe cy'ubushyuhe, bateramo imiti yabbugenewe kugira ngo adapfa.

Isambaza ni nziza cyane, baziroba mu mazi, ziracuruzwa zitekwa zikaranze, bashobora na kuzitogosa, zinjiza amafaranga menshi, zikiza n'abana barwaye bwaki bakagira ubuzima bwiza cyane.

Insambaza ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu zagiraga intungamubiri nyinshi cyane bazirya mu mahoteri, baziteka mu mago y'abantu, bazigaburira n'abana bafite ikibazo cy'imirire mibi.

Uburobyi babukora bari mu bwato, barobaba insambaza, baroba amafi, barabicuruza ibindi barabirya, bikiza bwaki kandi byinjiza kandi byinjiza amafaranga.

Bagenda mu bwato bagiye kuroba amafi. Barayarya, barayacuruza, bayagurishamu mahoteli, bayasurisha inshuti zabo. Amafi araryoha, avamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ubworozi bukorerwa mu mazi na bwo ntabwo bwasigaye inyuma. Nk'ifi bayirya bayitogosheje, bayirya yokeje mu mavuta, bayigurishamo amafaranga, zikoreshwa mu mahoteri n'ahandi hantu hatandukanye.

Ifi zororerwa mu mazi. Baziroba bari mu bwato, bayirya itogosheje, bayirya ikaranze, bazikoresha mu mahoteli, bazikoresha mu bukwe, bazigurishamo amafaranga yo kwitungisha.

Ifi ni ikiribwa cyiza cyane bategura ku mafunguro yose. Zororererwa mu mazi, bazitegura mi mahoteli, bazitegura mu bukwe, bazitegura mu mugo, zigira intungamubiri nyinshi cyane.

Ibiti nibyiza ku buzima bwacu, biduha umwuka mwiza wo guhumeka, bituma ubutaka butajyanwa n'isuri, tubona n'inkwi zo gutekesha, batwika n'amakara mu biti, basaturaramo n'imbaho zo kubakisha amazu yacu, n'izo gukoresha intebe n'ameza.

Ibigori ni byiza cyane. Havamo amafu y'igikoma, baseshamo za kawunga, babigaburira amatungo, barabicuruza hakavamo amafaranga yo kwitunga.

Insina zizana ibitoki barya n'ibyo bagurisha. Ibigori byo barabyotsa babibeteshamo amafu y'akawunga, nabyo barabigurisha, wabirya bitogosheje cyangwa ukabirya byokeje.

Insina ni igihingwa cyiza cyane gitanga ibitoki byo guteka bita inyamunyu, hariho n'ibyo bita ibikashi bivamo urwagwa n'umutobe, kandi n'ibivovo byabyo inka zirabirya.

Insina zivaho ibitoki barabigurisha ibindi barabirya bahingamo imboga, imboga zigira intungamubiri nyinshi kandi zikoreshwa n'abantu bose.

Ubuhinzi bw'imboga na karoti bugira akamaro kenshi cyane, barazirya barazicuruza zinjiza amafaranga menshi, bazohereza no mu mahanga zikazana amadovize menshi.

Ibitoki bigira akamaro kenshi cyane, havamo ibitoki bagurisha bakabirya, habamo ibyo batara bakaryamo imineke, bengamo urwagwa rwo barugurisha amafaranga.

Ubuhinzi butandukanye bubamo n'ubw'ibigori, buteza imbere babuhinga, kuko barabirya, barabigurisha, basheshamo akawunga, harimo ibyo bagaburira amatungo ngo akure neza.

Mu mboga zitandukanye habamo imbwija habamo ibisusa, habamo amakora, habamo garukusorome batekaka batogoshije mu birarayi, bakararanga mu mavuta, hari n'izo bakoramo salade, izindi barazigurisha bakabonamo amafaranga.

Ibiti by'intusi bigira akamaro kenshi cyane, babicanamo amakara, babikoramo imishingirizo yo gushingirira ibishyimbo, babyasamo n'inkwi, babyubakisha n'amazu yo guturamo.

Mu buhinzi bw'imbuto bahingamo n'inkeri, barazigurisha bakazirya zihiye, mu kuzigurisha zinjiza amafaranga, bazikoramo imitobe bakayigurisha.

Ibihingwa bitandukanye， birimo imboga， bigira akamaro kenshi kenshi cyane. Harimo kugurishwamo amafaranga， barabirya， babisurisha inshuti，bibafasha kwiteza imbere.

Mu buhinzi bw'ibinyampeke habamo n'ibigori, bivamo ifu bakoramo umutsima, bakuramo ifu batekamo igikoma, bakuramo imigati, bashigishamo umusururu, havamo ibintu byinshi bitandukanye.

Ibihingwa bimwe n'ibirayi ,imyumbati ,amateke barabirya ,barabicuruza ,barabisurisha ,ariko hari ibindi bihingwa nk'bireti bivamo imiti yica udukoko . Havamo imiti myinshi myiza ,ifite akamaro ku gihingwa.

Ibiti by'imbuto ziribwa nka voka, zigira akamaro kenshi cyane. Habamo nkuko zinjiza amafaranga habamo nkuko zigira akamaro ku mubiri w'umuntu ndetse habamo nkuko zivamo n'amavuta yo kuwisiga.

Ubuhinzi bw'ibishimbo bufasha kubona amafaranga, bufasha abantu mu kurya iwabo mu rugo, bufasha abana n'abagore batwite kuva mu mirire mibi, kandi bugafasha abanyarwanda bose muri rusange.

Kugira ngo imyaka izere neza harimo imboga, harimo umuceri, ni byiza ko yuhigwa . Mu gihe c'izuba iterwa imiti kugira ngo yice udukoko turya iyo myaka.

Imyaka iruhigwa kugira ngo itange umusaruro mwinshi cyane, kuko nko mu gihe cy'izuba ryinshi iruma, ni yo mpamvu ikenera gushyirwamo amazi kugira ngo itumagara.

Ibihingwa bigandura urugo nk'imyumbati barabicuruza kandi havamo amafaranga menshi barabirya, barabigurisha, barabisurisha, biraryoha, babiteka mu buryo butandukanye.

Ubuhinzi bw'ibinyabijumba bugira akamaro kenshi cyane. Twavugamo nk'imyumbati, yinjiza amafaranga, iyinjiriza abayihinga. Abayicuruza na bo babonaho amafaranga. Iraryoha kandi abayirya na bo bagira imbaraga.

Ibitoki habamo ibitanga imineke bacuruza, havagamo n'urwagwa. Habaho n'ibindi byitwaga inyamunyu batekaga, havagamo isosi, babitekaga no mu nyama.

Voka zigira akamaro kenshi cyane, barazirya, barazigurisha, bazikoramo amavuta yo kwisiga, havamo amavuta yo kurya, banazisurisha inshuti yawe.

Amashu ni meza cyane ku mubiri w'umuntu. Bayarya atogosheje, bayateka akaranze, bayarya ari mabisi, barayacuruza akavamo amafaranga yo kubatunga. Amashu avamo ibintu byinshi cyane.

Ibidodoki bigira akamaro kenshi cyane, babirya babigeretse ku bishyimbo, babiteka bikaranze mu mavuta, barabitogosa, bakabicuruza hakavamo amafaranga yo kubatunga.

Tujya kugura yo ibirayi byo guteka tukabirya, barabitera, bakabitera umuti, bya kera bakabisarura bakabijyana mu isoko, cyangwa bakabiteka bakabirya, bagatekamo ifiriti cyangwa na za mucuma bakazirya bakabyibuha.

Ubuhinzi buba butandukanye burimo n'ubw'ibirayi bwinjiza amafaranga menshi, barabigurisha, barabirya, barabicuruza, havamo ibintu byinshi byinshi bitandukanye.

Igihingwa cy'urusenda gikoreshwa mu buryo butandukanye, bararurya urundi barugemura mu mahanga bakabaha amafaranga yitwa amadovize akoreshwa mu kurwanya ubukene.

Ibijumba n'igihingwa cyera mu butaka, bakirya ari kibisi, bakirya cyokeje, baragigosa, bagikaranga mu mavuta, bakigurishamo amafaranga, giteraga imbaraga abakirya.

Imboga n'imbuto ni byiza cyane kuko ziraribwa, zicuruzwamo amafaranga, zirasurishwa, abandi barwayi babwaki zibafasha kugarura ubuzima, abagorebatwite nabo zafasha kongera amaraso.

Igihingwa cy'umuceri kigezweho, abagihinga babonamo amafaranga yo kubatunga, abagihinga basagurira umusaruro ku isoko, abagihinga basaguraho umuceri wo kurya mbese ubuzima bakagenda neza.

Ubuhinzi bw'imboga bubamo ibihaza, bubamo ibidodoki, bubamo imboga rwatsi, bubamo na za karoti ,bahingamo ibitunguru babirya ubitogosheje, ibihaza babirya ubikaranze babicuruzamo n'amafaranga.

Ubucuruzi bw'imboga buteza imbere abazicuruza, ndetse n'abazihinga babona amafaranga, ndetse binjiriza n'igihugu imisoro itandukanye.

Imbuto duhinga habamo amapera, hakabamoka amavoka, hakabamo amaronji, bagurishamo amafaranga, bakazirya, hakabamo n'imiti itandukanye, kandi abanyarwanda barazikundada.

Hari urubuto rwitwa ipera rwera ahantu hose barurya ruhishije barukoramo umutobe, barugemura mu mahanga bararucuruza, rutanga amafaranga bakayakoresha ibindi bintu.

Imbuto zitandukanye zituma abantu bagubwa neza. Hari izivura indwara, izitera imbaraga, izikiza bwaki harimo amarongi, amacunga.

Amashu ni meza cyane ku mubiri w'umuntu, amashu bayateka akaranze, barayatogosa, amashu bayarya ari mabisi, barayagurisha bakabonamo n'amafaranga.

Igihingwa k'ibigori ni ingirakamaro ku muturage. Ushobora kukirya ari kibisi. Babirya byokeje, babirya bitetse, babihunguramo impungure, basheshamo imitsima, n'ibindi bitandukanye.

Imbata zororwa nk'inkoko, zitera amagi yo kurya nayo kugurisha, ariko ntabwo zigora kuzorora, kuko bazigaburira ibigori zirya n'amasaka, ndetse zirya n'ibyatsi.

Imyumbati barayitera, biba ari ibiti bakazihingira bagashiraho n'ifumbire ikera, bakayikura, bakayiteka, bakayirya cyangwa bakayinika, bakayaka, bakuramo umutsima witwa ubugari.

Ikigori ni igihingwa cyiza cyane, bagifumbiza amafumbire y'ibishingwe, n'amafumbire ava mu ruganda. Gitanga umusaruro mwinshi, bakirya ari kibisi, bakirya cyokeje, bakuramo na za kawunga.

imbuto bitaga ibipapayi byera ku giti barabisoroma bakabijya, bakabijyana ku isoko barabicuruza bakabona amafaranga, imbuto nini nziza cyane ku buzima bwacu, bituma tutagira indwara bituma abana bakura neza.

Ibirayi byera cyane muntara y'amajyaruguru. Bahingamo ibyitwa peko, hari ibyitwa kinigi, hari ibyitwa kirundo. Byose babigurisha amafaranga, barabirya, batekamo ifiriti, batekamo na mucoma.

Abahinzi bahinga mu gishanga, bahingamo imyaka itandukanye, bateramo imboga z'inyabutongo, bateramo intoryi, bateramo umuceri wo kugurisha, basaguraho n'ubwo guteka.

Icyayi ni igihingwa cyiza cyane bagisoromera mu bitebo, bakijyana ku ruganda bakagitunganyamo icyayi cyoherezwa mu mahanga, kandi bagatanga amafaranga menshi cyane.

Guhinga ibihingwa bitandukanye ni byiza cyane ibigori babirya byokeje, babicuruza ari bibisi, bacuruza ibitetse cyangwa se bagacuruza impungure ziva muri ibyo bigori.

Urubanza rw'imyumbati bugira akamaro kenshi cyane, barayiteka bakayirya, bakoramo ikivunde kivamo ubugari, ubugari nabwo barabuteka, bakabugurisha, bakabonamo amafaranga yo kubatatunga.

Ibihingwa bitandukanye, habamo ibiitoke. Kandi bigira akamaro kenshi gatandukanye : barabirya, barabikaranga, barabitogosa, bataramo imineke. Na yo barayigurisha, bikavamo inzoga. Havamo ibintu byinshi bitandukanye.

Umuganda ukorwa n'abantu batandukanye, abapolisi barawukora, abayobozi bawuzamo, abasirikare barawukora, bakora imihanda, baharura za rigore, bubakira n'abatishoboye.

Guhinga ni byiza cyane, kuko abahinga imboga basagurira isoko, kandi baryaho, babonamo amafaranga menshi, basurisha inshuti zabo, zibafasha kwitunga mu buryo bwose.

Voka zihingwa ahantu hose , bazirya bazitaze bazikoraramo amavuta yo kwisiga n'ayo kurya, zinjiza amafaranga menshi kuko zicuruzwa no mu mahanga hanze y'igihugu

Habaho amoko menshi y'ibirayi habamo: ibyitwa peko harimo kinigi, ibyitwa kirundo. Barabicuruza bakabonamo amafaranga yo kubatunga, bayarihira abana, babiryamo amafiriti, babitekamo n'amaganda.

Voka ni urubuto rwiza cyane ruba rukungahaye ku ntungamubiri nyinshi, barurya rutaze, barworeza mu mahanga, bararucuruza, kandi havamo amavuta yo kwisiga, bagasiga ku mubiri cyangwa mu mutwe.

Ubuhinzi bugira akamaro kenshi cyane, ubuhinzi bw'imboga ziribwa. Ubuhinzi bw'imyaka igemurwa mu mahanga, ubuhinzi bw'ibirayi nibwo bwinjiza amafaranga menshi, birayi barabicuruza barabirya.

Imyembe igira akamaro kenshi cyane, ifasha abana kuva mu mirire mibi, abagore batwite nabo ibafasha kugira ubuzima bwiza, igurishwamo amafaranga yo kwitungisha.

Igihingwa cy'ibigori barakirya, barakigurisha, basheshamo amafu atandukanye, harimo kawunga, arimo n'ay'ibigori, ariko gikenera ko bagitera umuti, kugira ngo iyo miti yice za nkongwa.

Amapera ni urubuto rwiza cyane, bararurya iyo ruhishije, barukoramo imitobe, bakayicuruza babonamo amafaranga, kandi barucuruza no hanze y'igihugu cyacu.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, kuko buvamo ibiribwa bitandukanye barya imboga, barya ibinyabijumba, abarya amateke, abarya ibirayi, bagurishamo n'amafaranga.

Imbuto zihingwa harimo avoka, harimo amatunda. Bayarya ahishije, bayakoramo n'imitobe. Abayacuruza binjiza amafaranga. Bifasha n'abana gukira bwaki.

Ubuhinzi bw'imbuto ni bwiza cyane, amatunda baragarya bayagaburira abana, bayakoramo imitobe itandukanye, barayacuruzaga agatanga amafaranga.

Imyumbati igira akamaro kenshi cyane, bayigurishamo amafaranga yo kwitunga, bayinikamo imivunde baryamo ubugari, bayiteka bayitogosheje, barayihekenya, kandi mu kuyihinga baterara uruti mu butaka rukamera.

Amateke ni gihingwa cyera mu butaka. Bakirya cyokeje, baragitogosa, baragiteka mu buryo bwiza bwinshi. Baragicuruza kikinjiza amafaranga, kandi gitera n'imbaraga abakiryaho.

Abahinzi batera umuti ibirayi, kandi byera neza bitanga umusaruro mwinshi, muri kino gice cyacu cy'Amajyaruguru.

ikinyomoro ni igihingwa cyiza, kera ahantu hose. Bakirya nk'ubuto, bagikoramo imitobe, barakigurisha, kandi giterwa ku muti kugira ngo kidapfa.

Imboga urazibagara zigakura. Bazirya zitogosheje, baziteka zikaranze, barazicuruza, zivura bwaki, zifasha abagore batwite, imboga zinjiza n'amafaranga.

Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane. Habaho ibirayi byitwa Kinigi, hari ibyitwa Gapeko. Byose barabicuruza bakabonamo amafaranga yo kwitungisha. Babiryamo amafiriti, babiryamo za bicoma, banabirya kandi bitogosheje

Imboga zigira akamaro kenshi, muri izo mboga, habamo intoryi, habamo z'abirenganya, habamo ibitunguru bifashisha bari gukaranga kuko biryoshya ibiryo, intoryi nazo zigira intungamubiri nyinshi.

Ihene ni itungo ryiza cyane, bagurisha rigatanga amafaranga, ritanga inyama, hari nizitanga amata, ni byiza ko bazigaburira neza kugira ngo zikure, zitanga umusaruro ushimishije

Pavuro barazihinga, bakanazihingira bagashiraho n'ifumbire zakera bakazisoroma, bakazijyana mu isoko bakazigurisha bakaja kuziteka, bazigira ibirungo bashira mu nyama no mu mboga.

Amateke, igihingwa cyiza cyane cyera mu butaka, abakirya kibatera imbaraga, bakirya cyokeje, bagiteka bagitogosheje, bakigerekaga ku bishyimbo. Baragicuruza kikinjiza amafaranga yo utunga abagihinga.

Ubuhinzi bw'intoryi buteza abanyarwanda benshi imbere, barazigurisha, barazirya, bagemuriraho na bagenzi babo, kandi zivura na bwaki.

Gutere umuti mu ibigori, birinda udusimba twabyangiza, iyo imiti batera harimo rocketi, batera tetane, na za regameri zose.

Imiteja bayisarura ku bishyimbo. Bashobora kuyitogosa, barayikaranga, barayigurisha, igatanga amafaranga, ikiza bwaki, ifasha abagore batwite, kuko igira intungamubiri nyinshi cyane.

Mu mbuto ziribwa hari amatunda, harimo amacunga, harimo amaronji, habamo amavoka. Voka zikorwamo amavutarya yo kurya n'ayo kwisiga, n'amacunga na yo avura uburwayi bw'abana, abavura umusonga n'izindi.

Inyanya ni igihingwa cyiza cyane, bagishyira mu isosi, bagikarangisha ibiryo bitogoshejeje, bagikekera mu nyama, bagicuruza ahantu hose kinjiza amafaranga menshi menshi cyane.

Imiteja bayisoroma ku bishyimbo, barabitera bakabishingirira, yaza bakayisuroma bakajya kuyiteka bakayirya cyangwa bakazijyana mu isoko, cyangwa bakayireka ikuma bakazayisarura, bakabihura bakabihunika cyangwa bakabigurisha.

Ibigori barabyanika byakuma bakabigurisha bakabaha amafaranga, cyangwa bakazanabitera mu kindi gihe cyo guhinga, baranabibetesha bakabonamo ifu bagatekamo umutsima w'ibigori bakanywamo n'igikoma.

Urusenda bararuhinga rwakwera, bakarusarura bakarurya mu biryo, bakanarujyana mu isoko, bakabaha amafaranga. bakajya gukoramo insenda zitunganyije bita akabanga, cyangwa bakanazohereza mu mahanga bakazijyana ku nganda.

Amashyamba agira akamaro kenshi cyane, akurura imvura, aduha umwuka mu duhumeka, bacamo ibiti byo gucamo inkwi, bakuramo imiti gakondo, hari n'ibiti binini bazamo amasekuru n'imivure.

Mu isoko bacururizamo amavuta yo guteka, imiceri y'ubwoko butandukanye, harimo na za kigori, bacururizamo amasafuriya yo gutekamo, bacururizamo amasukari yo kunywa mu gikoma.

Ibigori ni igihingwa cy'ikinyampeke gihingwa ahantu hose. Kugira ngo byitabweho neza, barabitonora, barabipfundika, barangiza babimanika ahantu habigenewe kugira ngo bitazamo uruhumbu rubyica.

Ibinyampeke nk'ibishimbo barabiteka, barabicuruza ibindi barabitera. Mu binyampeke habamo n'ubunyobwa. Baraburya, babushyira musombe buvamo amavuta.

Ubucuruzi bw'ibinyampeke bwinjiza amafaranga menshi cyane, bukiza ababukora kandi barabirya barabisurisha, havamo ibintu bitandukanye, havamo amafu ayo mafu bakoramo imitsima.

Ubucuruzi bw'ibishinmbo na bwo bugira akamaro kenshi cyane ,ababicuruza bubininjiriza amafaranga ,ababihaha na bo bagira ubuzima bwiza ndetse bugafasha n'abahinzi kugura imbuto z'indobanure.

Amajeri barayahinga, yakwera bakayasoroma atari yuma, bayita uruyogwe. Barayateka, bakayarya cyangwa bakayareka akuma bakayasarura, bakayagurisha cyangwa bakajya bayatsimba nk'ibishyimbo.

Mu bikoresho byifashishwaga hambere hashize mu guhunika imyaka, habagamo ibitebo, habagamo ibisobane, habagamo imitiba, habagamo n'ibigega. Mu kigega umuntu yuriragamo.

Ibinyampeke bitandukanye habamo amashaza, habamo za soya, haba mo ibibigori, ibigori basheshamo agahunga ,soya barya isosi yazo, barazikaranga, zivamo amavuta yo guteka n,inyage.

Mu bishyimbo habamo ibidashingirwa habamo n'ibirebire bashingirira, ariko byose babirya umushogororo, babirya imiteja, babirya intonore, babirya byumye kandi babigurishamo n'amafaranga yo kubatunga.

Igihwagari ni igihingwa cyiza gikundwa n'abantu benshi baragicuranga bakakirya bagishyira mu biryo, kivagamo amavuta yo guteka. Ikindi banarabicuruza bikavamo amafaranga.

Ubunyobwa bufite akamaro kenshi cyane, baraburya babukuramo amavuta ndetse n'ababucuruza bubinjiriza amafaranga, tutibagiwe n'ababuhinga na bo bubinjiriza amafaranga.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane kandi bigomba kwitabwaho kugira ngo bitange umusaruro mwinshi cyane. Babitonora byumye, barabipfundika, babimanika ku biti byabugenewe, babirinda imvura.

Soya zigira akamaro gatandukanye, bazibeteshamo ifu bazishyira mu biryo, bakoramo amavuta yo kurya barazikaranga, barazigurisha hakavamo amafaranga yo kubatunga.

Ibishyimbo ni ibihingwa byiza cyane ushobora kurya ari intonore, babirya byumye, babirya umushogoro, barabicuruza, barobanuramo n'ibyiza batera mu kindi gihembwe cy'ihinga.

Ibigori bigira akamaro kenshi. Babirya ari bibise ,babirya byokeje, babirya bitogosheje ,babiryamo misigati. Babibeteshamo ifu zo gushigishamo igikoma. Babikoram kawunga n'ibindi byinshi.

Intara ni igikoresho gakondo baboha mu migano izindi baziboha mu misiripuri, bazifashisha mu kugosora ibishyimbo, bazifashisha mu kugosora n'amasaka.

Iby'impugure turabyanika, tukabibetesha, tukabona amafu, tugateka igikoma, tukakinywa, dutekamo n'umutsima, tukawurya, cyangwa tukanabyinika tukavangamo n'amasaka, tugakoramo agasururu tukakanywa.

Ibinyampeke bitandukanye, habamo n' ibishyimbo habamo amasoya, habamo ubunyobwa, barabiteka, barabicuruza soya bazikoramo amavuta yo kurya n' ifu yo kurya, ubunyobwa buvamo amavuta yo guteka.

Ibishyimbo bihingwa neza bitanga umusaruro ushimishije, tubiryamo umushogoro, tubitekamo intonore, yewe batekamo imiteja, bahimba ibishyimbo byumye, urabicuruza ukabona amafaranga.

Ishyaka rihimba ahantu henshi mu rwanda, rivamo ibintu bitandukanye, rivamo ibigage, bakoramo urubetezi bashyira mu rwagwa, banywamo igikoma, bagurisha amasaka bakabona amafaranga,

Ibishimbo n'ibihingwa byiza cyane, bigira intungamubiri nyinshi, babirya umushogoro, babirya imiteja, babiteka byumye, kandi babigurishamo amafaranga.

Ibigori ni igihingwa cy'ikinyampeke gitanga umusaruro mwinshi, bagifumbiza ibishingwe , bagifumbiza imvaruganda, barakirya, bagisheshagamo amafu y'igikoma nako bakoragamo za kawunga bakigurisha lmo amafaranga.

Ubuhinzi bw'indobanure, bw'ibishyimbo by'indobanure bugira akamaro kenshi cyane ,mu kuzamura imirire kandi bufasha abantu kubona amafaranga bakoresha, mu bintu binyuranye mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'ibinyapeke habamo n'amasaka agira akamaro kenshi bayakoramo inzoga, bayakoramo ibigage, bayakoramo n'ubushera, barayagurisha hakavamo n'amafaranga, bayashigishamo n'igikoma.

Intonore bazishogora mu bishyimbo, batera ibishyimbo bakabishingirira, bya kwera basoromamo intonore bakaziteka, bakazirya cyangwa bakazijyana no mu isoko, barabireka bikuma, bakabisarura, barabihura bakabijyana mu isoko.

Ingurube zitanga umusaruro vuba cyane, kuko zibwaguraga ibibwana byinshi, kandi bigira amafaranga menshi, ariko iyo zirwaye ugomba kuzivuza kugira ngo uburwayi butazihitana.

Ubworozi bw'inkwavu butanga amafaranga. Bayaguramo ibyo kurya, bayatangamo amafaranga y'ishuri, baguramo n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Mu buvuzi habamo nabavura amatungo, bagatera inshinge bayaha ibinini hari abavurisha imiti gakondo, kandi amatungoiyo avuwe neza iyo akingiwe atangira umusaruro.

Ubworozi bw'amatungo burimo inka, bwitabwaho cyane kugira ngo butange umusaruro, barayavura yarwaye bayagaburira ibyatsi byujuje ubuziranenge, bayatera intanga bayashyira mu biraro bisukuye kugirango ngo bayarinde indwara.

Abavuzi b'amatungo bagiraga akamaro kenshi cyane ku borozi. Babafasha kudapfusha inka zabo, babafashaga kugira ubwoko bwiza bw'amatungo. Banabafasha kongera umukamo kuko babafasha kubona ubwoko bwiza bw'amatungo borora.

Inka ni itungo ryiza cyane rigira akamaro kenshi cyane rinyobwamo amata, bayiryamo inyama bagurishagamo amafaranga ikindi kandi zarwaye barazivura.

Ubworozi bw'amatungo magufi habamo n'intama, intama bazizirika mu kibara kuko zirarisha, intama baziryamo inyama, intama bazigurishamo amafaranga yo kwikenuza.

Ingurube ni itungo ryororerwa mu kiraro, barikorera isuku, bararikarabya ngo na ryo iyo rirwanye bararivura, ritanga inyama, ritanga amafaranga, kandi ryoroka vuba cyane.

Inka ni itungo ryiza cyane igira akamaro kenshi cyane, iyo ribyaye banywa amata, bakuramo amavuta y'inka, wayarya cyangwa ukayisiga, bazikwa abageni, bazigurisha n'amafaranga yo kwitungisha.

Ingurube bazita misaya myiza .zivamo inyama ziryoshye cyane . Zivamo amavuta yo kwisiga bakoramo amavuta yo guteka ,zinjiza amafaranga menshi, abantu bazorora ni abakire cyane.

Inkoko za kijyambere bazororera mu biraro bifite isuku, barabikondora, bateramo imiti yabugenewe irinda uburwayi butandukanye, kandi n'iyo zirwaye barazivubura.

Inka ni itungo ryiza cyane rigira akamaro kenshi bazikwa abageni, bazigurishamo amafaranga, zivamo amavuta y'inka barya bakanakiyisiga.

Urukwavu n'udutunngo dushimisha, tugabura utwana twinshi, bakadukoresha amafaranga bakaturya inyama, batugaburira ubwatsi, turya isanduruma, turya n'igiheri.

Ihene ni itungo ryororoka vuba haba igihe ribyaye abana babiri, rirarisha barariragira, barigurisha amafaranga barirya n'inyama.

Inkoko zitanga amagi bakayarya ayandi bayakuramo udushwi, inkoko zitanga inyama, inkoko barazigurisha, zikavamo amafaranga, inkoko n'itungo ryororoka vuba.

Inka ni itungo ryiza cyane rigaburirwa mu kiraro, bayiha amazi yo gushoka, ritanga amafaranga yo kwitungisha, ritanga amata, ritanga inyama, barikwa n'abageni.

Abavuzi b'amatungo bayatera inshinge ,bayaha umuti wo kunywa, bayaha ibinini ,bayatera intanga kugira ngo atange umusaruro mwiza ushimishije ku borozi, kandi bafite akamaro kenshi cyane ,kuko bafasha aborozi kugira ngo baborore neza.

inyamaswa zo mu gasozi zirimo inyoni ziguruka zifasha ba mukerarugendo gusura igihugu cyacu kandi bininjiza amadovize atandukanye bakora mu mirimo itandukanye y'igihugu.

Inuma barazorora zigatera amagi, bakayagurisha bakabonamo amafaranga, barazibaga bakanazirya, hari n'inuma ziba mu mashyamba, mu biti, na zo zitera amagi, zikarura n'utundi tunuma na two tugakura.

Akanyamasyo ni agasimba keza cyane, kibera mu ishyamba kibera mu gikono cyako n'imodoka ntiyashobora kugisyonyora kandi gashimisha abakareba bose.

Utunyoni tuba dushimishije kuko twitonda, hakaba igihe dukanguye abantu. Dukurura ba mukerarugendo utunyoni kandi turi mu tunyamaswa dutoya twangiza imyaka, twitahira mu biti.

Inyoni ni inyamaswa nziza cyane mu kuzireba, zibere mu biti, zitungwa n'udusimba. Hari izitungwa n'utubuto, zibyutsaga abantu mu gitondo, kandi zikurura ba mukerarugendo bakaza kuzireba.

Habaho amoko menshi y'inyoni habamo habamo imisure, habamo inyombya, za kagoma, udufudi, ibyiyoni twose twose tuba ari umutako w'igihugu ariko twica udukoko twangizaga imyaka.

Inzoka ni inyamaswa mbi cyane ziba mu mwobo no mu mazi, no mu mashyamba. Zigira ubumara bubi. Iyo ikurumye uhita wihutira kujya kwa muganga, bakagutera urushinge rukagukuramo ubumara bwayo. Urebye nabi urapfa.

Utunyoni turashimisha, abatunyamanza, bamukerarugendo bakunda kudusura, baradufotora, twinjiza amafaranga kuko tunogera n'ijisho ku tureba.

Utunyoni tugira amajwi meza akangura abantu mu gitondo. Utunyoni twibera mu biti, utunyoni dukora ibyari mu byatsi, dusurwa na ba mukerarugendo, kandi dushimisha abatureba.

Utunyoni two mu ishyamba turashimisha kutubona, tugira amabara meza, dukurura ba mukerarugendo, turya utubuto, turya kudusimba dutoya, tunakangura abantu mu gitondo.

Imbogo iba muri parike, abazungu baza kuzisura mu Rwanda batanga amafaranga bita amadovize, ubukungu bw'u Rwanda bugatera imbere bakazana n'izindi nyamaswa, bakabona amafaranga yo guhemba abantu bakora muri pariki.

Inyoni ziba mu mashyamba, zifite akamaro kenshi cyane. Zibyuka mugitondo cya kare kare zigasakuza zigatuma tubyuka. Zituma ikirere cyacu kiba cyiza, zigatuma n'imyaka twahinze nk'ibigori n'ibishyimbo n'amasaka byera neza.

Mu nyoni zo mu gasozi harimo iziba mu bishanga nka sarumvune na nyirabaraza, zitungwa n'iminyorogoto, zirya ibikeri, zitungwa n'imitubu zizenguruka ahantu hose kandi zirara mu biti binini.

Inyamaswa zo mu gasozi habamo n'inyoni. Zikurura abaza kuzisura, zinjiza amafaranga ku buryo butandukanye, barazifotora. Na zo ni zimwe mu bigira ibidukikije by'igihugu.

Udusimba tuba mu ishyamba turimo inkende, turimo imonyo, turimo ibitera turashimisha cyane. Dukurura ba mukerarugendo, baradufotora, batanga amafaranga, twambukiranya ibiti ugasanga bishimishije cyane.

Utu tunyamaswa twenda gusa n'abantu. Harimo inkende, habamo ibitera, habamo ingunge. Tuba mu mashyamba menshi yo mu Rwanda, dukururara ba mukerarugendo. Utu tunyamaswa tumenya no kwifotoza.